Banki ya Kigali ni banki ifite serivisi zitandukanye ndetse yoroheje uburyo bwo kuba umunyamuryango wayo yakura, agatanga kuri konti cyangwa se yayishyira kuri konti cyangwa se yakoherereza n'undi kuri konti ye bitamusabye ko ajya kuri banki.

Amakote meza araboneka mu maguriro yabugenewe cyangwa yihangira iyo imirimo ndetse n'inkweto nziza z'abagabo, bashobora kwambara bajya mu birori bitandukanye, birimo amakwe, birimo n'ibindi birori abantu baserukamo bambaye neza.

Ubucuruzi n'ibintu bitandukanye harimo amatelefoni, harimo inkweto z'abadamu ndetse n'iz'abagabo, harimo amarinete, harimo amakadere, harimo amasaha, harimo amashakoshi n'ibindi bikoresho umuntu yakenera.

Abakiriya bari ku magishe kuri banki y'abaturage aho baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye, aho haba hadekoye ibiripizo ndetse gishe ziri mu mabara y'icyatsi n'ubururu.

Igiceri cy'u Rwanda cy'amafaranga y'u Rwanda, yanditseho banki nkuru y'u Rwanda cyasohotse mu bihumbi bibiri n'icyenda, kiriho insina ndetse iriho n'igitoki cyeze.

Umuntu ufite telefoni igaragaza ko ubwishyu bwe bwamaze gukorwa, inyuma hari ikintu cyerekana aho wasikaninga hari ibyo ukeneye kureba, momo foro emutiyene n'akamenyetso kagaragaza kudaniworodinga.

Uburyo transaction ya nyuma kuri konti y'umuntu iba yagenda aba ari in ward local transfer invalid imibare biko traders and sup.

Imwe mu misoro yishyurwa harimo imisoro y'isuku, yishyurwa buri kwezi n'abacuruzi bakora ubucuruzi bwitwa ko buciriritse cyangwa se bubona inyungu itari hejuru, kandi buri mucuruzi akaba asabwa kwishyura amafaranga bitarenze itariki eshanu za buri kwezi.

Icyapa cyerekana ubucuruzi bw'amafaranga gisa ubururu cyerekana aho ara ji forekisi biro ikorera ariho amafaranga atandukanye bitewe n'abayakoresha ndetse berekana ko bakora monigaramu na wesitani yuniyoni, kiri mu byatsi.

Imeza nziza yo kuriraho ifite ibyiciro bitandatu iruhande rwayo hari amayesikariye azamuka mu nzu yo hejuru, imeza kandi iteretseho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, inyuma yayo hari ikirabyo iruhande rwayo hari akabati.

Imeza yo kuriraho ifite ikirahure, ariko ifite urubaho, ifiteho abantu bicara imyanya itandatu, iteretse mu nzu ndetse na lavabo abantu bakarebaberamo mbere y'uko bajya ku meza.

Intebe z'umukara nziza zo kuri tabulamanje, intebe ibicumi ndetse n'udusutabule tw'umukara. Dukoze mu bibaho abantu bashobora kwifashisha mu bihe bitandukanye, yaba mu kwakira abashyitsi bari gushyiraho ibyo kunywa, ibyo kukurya.

Icyapa cy'ubucuruzi gifite amabara y'umukara, umweru ndetse n'ubururu cyariho imibare rimwe kabiri gatanu gatanu, all risks insurance brokers limited. Corporate head office all risks.com.

Abagabo batatu bari kugenda mu muhanda, bageze imbere y'ikigo cy'ubwishingizi cya UAP inshuwarensi, iruhande rwaho hari amasayesikariye agaragaza ko nta handi umuntu ashobora kujya.

Banki ya Kigali kandi nayo igira ubwishingizi aribwo bwitwa BK insuwarensi, buhabwa umuntu wese washimye serivisi za beka, akaba yakoresha ubu ubwishingizi, harimo ubwishingizi bw'imodoka, ubwishingizi bw'ubuzima bw'abantu, ubwishingizi bw'imitungo itandukanye y'abantu.

Inyubako y'ubucuruzi, imbere yayo hahagaze abantu batwaza abamaze guhaha twakwita abakarani ndetse haparitse n'aho imodoka zitandukanye zishobora kuba ari iz'abariya baje aho ngaho.

Mu masoko atandukanye harimo imbuto ndetse n'imboga, zirimo: amashu, zirimo shufurere, n'ibitunguru, n'inyanya, ndetse n'avoka na pavuro, n'ibindi bintu bitandukanye abantu bakenera byo gutunga umubiri.

Umujyi wa Kigali urimo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubucuruzi. Inyubako ya kigali invesitimenti senta irimo ubucuruzi butandukanye, kandi ntagenda akorerwamo n’izindi serivisi zitandukanye.

Ubucuruzi butandukanye by'umwihariko bwa mobayiro mani, Airtel money, Tigo kashi buhabwa abaturage, umuntu ashaka koherereza undi amafaranga cyangwa ashaka gukura amafaranga kuri telefoni ye.

MTN ni kigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho, yazanye uburyo bwo kwishyura bwa Momo abantu bishyura serivisi zitandukanye ndetse n'ibyo baguze bitandukanye, kandi bigera ku baturage bose bikorohereza uwishyura wese icyo yahawe.

Inzu irimo uruganiriro hari n'intebe, ni intebe yakwiramo abantu batatu n'izindi ntebe ebyiri zakwicaramo umuntu umwe umwe, hari urukuta ruriho televiziyo ndetse n'akabati kashyiramo ibindi bitandukanye muri salo.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri ,hagaragara imiryango yombi Y'aho abantu bashobora kwinjira no gusohokera .Kandi imbuga irimo amapave ,kuruhande hari amabuyeze isize ibara ry'umuhondo n'umukara. Kandi n'imbere hari indabo ziteye amarangi y'umweru bege ndetse n'umutuku hejuru hari ahantu abantu bashobora kwicara baganira icyo twakwita barco.

Inyubako ishobora gukodeshwa, iyo twakwita apatimenti, iherereye muri Kibagabaga, itarimo ibikoresho byo mu nzu, ifite aho umuntu yakongera ibyumba bibiri byo kogeramo, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Kampani yitwa jenero taransipotizi Kampani Limitedi, igufitiye serivisi za taransiporo mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu. Kandi bagurisha bakanaranga imodoka n'amazu n'ibibanza n'ibindi bikoresho bitandukanye, kandi bagakora n'ibijyanye n'ubwubatsi aribyo konsutaragishoni.

Inzu y'ubucuruzi aho abantu bari kureba ibicuruzwa bitandukanye ,bashobora kugura ahagaragaramo imitako igendeye ku muco w'abantu babiri ,umugabo n'umugore umwe yereka mugenzi we ibyo bakora ibyo ashobora kuba yagura.

Ubwishingizi bwa mituweli ni ubwishingizi umunyarwanda wese yemerewe kandi buhabwa abaturage bose kandi neza ndetse bufasha mu kwivuza igihe cyose umuntu umubiri we utameze neza yarwaye cyangwa se yagize impanuka.

Mu masoko ndetse no mu maguriro atandukanye hacuruzwa imbuto, haracuruzwa imboto, hagacuruzwa n'ibyo kurya bindi bisanzwe bifunze neza icyo twakita "pakejingi" kandi biryoheye rwose amaso ndetse n'ababifata bitunga umubiri neza.